Aba ni abantu babiri b'abadamu ubona ko bishimye cyane bari guseka umwe ari gusuzanya n'undi muntu umubwira ati murakaza neza.

Uru ni urupapuro rwanditseho urweho, inama y'umunsi, inzitiro ku matungo, shyiraho uruzitiro rukomeye kandi rukwiye hose kugirango urinde amatungo yawe kuzerera.

Iyi ni inzu ya etaje ifite amarangi y'umweru ifite inzugi ziriho irange ry'umweru hariho n'icyapa cyanditseho Nyamirambo.

Iki ni icyapa kiri kwamamaza kiriho umugabo n'umugore n'abana babiri, hasi banditse isi ntisakaye ntawamenya igihe inkuru yacu y'ubuzima yarangirira, twasiga he abacu, abo dukunda n'imiryango.

Iyi ni ikarita ifite nimero rimwe kabiri kabiri kabiri gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda zeru, rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu.

Uru ni urupapuro rwanditsemo imibare, karindwi, kabiri, gatanu, makumyabiri, gatanu, gatatu. Hakaba hari n'amazina Benimana, na nimero.

Uru ni rupapuro rwanditsemo kuri konti zanjye. Kohereza kuri konti ya zigama. Kohereza kuri koti z'andi mabanki.

Aha ni mu nzu ariko iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ubucuruzi bw'imyenda, ubucuruzi bw'inkweto, ubucuruzi bw'amasakoshi , hari kugaragaramo n'umuntu ufite inkweto mu ntoki.

Aha ni hantu ubona ko hakorerwa imitako itandukanye; harimo udutete, udukoko, hari kugaragaramo n'amacupa, urabona ko ari byo bacuruza.

Imodoka nini cyane ikunda gutwara abantu by'umwihariko zikunda gukoreshwa mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu mu bice bike bitandukanye zitwara abantu benshi bagiye ahantu hamwe ahoza uba ufite ikarita uka ugakoza ku cyuma hanyuma amafaranga akavaho ukinjiramo hanyuma bakagutwararwa kugeza aho ugiye, si ibyo gusa kandi n'abagenda bahagaze turabona imbere umunyamaguru cyangwa se umugenzi ufite igare uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru.

Iyi ni imyenda y'ubwoko butandukanye. Harimo amakanzu, imipira, amajipo n'amashati. Bimanitse hejuru, urabona ko ari ibyo gucuruza.

Iyi ni inzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda. Biri kugaragara ahamaniyse imyenda; mu mashati atandukanye, n'amakanzu atandukanye.

Iyi ni imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo imodoka ifite irange ry'umweru, hirya yayo hari indi modoka ifite irange ritukura, hirya y'izi modoka hari ibiti binini bifite amashami menshi.

Iyi ni imodoka iri kugaragara mu imbere iyi imodoka biragaragara ko ikiri nshyashya kuko intebe ziracyafunitse mu mashashi aho bafata batwara naho hafunitseho ishari.

Aha ni hantu hadekoye ibipizo by'umweru umutuku n'umukara, iruhande rw'aho haparitse n'imodoka hagati y'ibipupe kure hari abagabo bafite udukapu mu ntoki.

Iyi ni imodoka iparitse ahantu harimo amakaro hasi imodoka ni mukara urabona ko ari imodoka nziza cyane kandi ikozwe neza.

Iyi ni imodoka itwara imizigo iparitse ahantu hashashemo amabuye akaba imbere yayo hari umuntu uyifasheho bafite n'icyapa cyanditseho eyibisi.

Iyi nzu imbere yayo haparitse imodoka eshatu. Imbere y'izi modoka hari abagabo batanu bafite ibyapa byanditseho inyuguti eshatu.

Aya ni amafaranaga igihumbi yo mu Rwanda hakaba hari kugaragara hashushanyijeho inkende, hakaba hari no kugaragara handitse imibare mu magambo.

Ibi biganza bifite amafaranga yo mu bihugu byo hanze. Ibi biganza biragaragara ko biri kubara aya mafaranga. Mu biganza umuntu yambaye ishati n'isaha.

Aya n’ amafaranga yo mu Rwanda ya kera irihamye hari kugaragara handitse ho mirogwitanu kandi rikugaragaraho handitse ho ko arayo mu Rwanda ariho isaka.

izi ni indobo z'umweru, hejuru kuri izo ndobo ku mufuniko hariho amandazi abiri hakabaho n'akuma gaterura amandazi udakoreshejemo intoki.

Aha ni mu nzu hicayemo abantu batatu, ku meza hateretse amajage arimo amata, abandi bafite amata bari kunywa mu birahure, hari n'undi wayateretse ku meza utari kunywa.

Umugabo wiyogoshesheje wazamuye akaboko, wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umukara ndetse na karuvati y'ubururu, imbere hakaba hari mikorofone, inyuma ye hakaba hari dolise y'amashokora ndetse munsi hakaba hari amagambo yandikishije inyuguti z'umweru, handitseho Dogita Utumatwishima Ja, munsi hakaba hari n'undi.

Iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata harimo umuntu wambaye umupira w'umweru ufite ijage mu ntoki uri gusuka amata mu cyansi.

Umukobwa usa neza uhagaze wambaye ikote n'ishati y'umweru mu maso n'inzobe afite imisatsi mu ntoki afitemo akantu kameze nk'impano bamuhaye, mbere ye hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'igifaransa.

Iyi foto iragaragaza mafaranga y'amakongomani. Aya mafaranga akaba atandukanye, amwe ni igihumbi, andi ni magana atanu andi ni magana abiri.

Aya ni amafaranga yo muri Kongo, hakaba handitseho rimwe na fa; hakaba hashushanyijeho abantu batatu. Babiri bari kurebana baboheye amaboko inyuma.

Amafaranga ashushanyijeho umugabo hariho na nimero cd gatatu icyenda gatanu kabiri gatatu karindwi umuani karindwi.

Iduka rya MTN ririmo abakozi babiri, umukozi umwe ari ku ruhande rumwe afite abakiriya babiri arimo kwakira, undi ari ku rundi ruhande ari kwakira umukiriya umwe.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi, zimwe ziri kumanuka izindi ziri kuzamuka. Hirya y'uyu muhanda hari amazu ubona ko akorerwamo ubucuruzi.

Iyi nzu biragaragara ko ari inzu ikorerwamo ubucuruzi inzu zifite amarangi y'umufu ku bikuta byayo habonetseho burera hakaba hashushananijeho n'icyapa cyatewe

Aha hari kugaragara umutako ubajwe mu giti uteretseho utubaze turimo indabyo zitandukanye no hino yatwo hari andi mavaze y'umweru n'umukara nazo harimo n'indabo.

Iyi ni inzu mu imbere harimo utubati, hejuru y'akabati hateretseho ivaze iriho indabo hamanitseho n'isaha, hirya y'akabati hariho uburiri busasheho ikuvure hariho n'umusego.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Aha ni mu nzu harimo utubati utunini uduto hejuru y'utubati hateretse amavaze, hirya hari ivase irimo ururabo.

Aha ni mu nzu harimo imbuto z'ubwoko bwose ni ameza ateguyeho, wotameroni zikase amaronji indimu amasahani yo kwaruriraho, imineke, n'inanasi.

Iyi foto iragaragaza intebe z'imisego n'ameza hejuru hariho indabyo hirya gato hari amalido aziritse ku igikuta.

Iyi ni inzu ya etaje ifite amarangi y'umweru ifite inzugi ziriho irange ry'umweru hariho n'icyapa cyanditseho Nyamirambo.

Aha biragaragara ko ari mu nzu, hicayemo abantu ku ntebe z'imisego, harimo n'undi muntu wicaye, w'umudamu, uri kuri telefone.

Iyi nzu irimo intebe n'imisego wakwicaraho ukegama, harimo n'ameza y'icyuma, hejuru hariho ibitabo, hirya hakaba n'undi muntu wicaye.

Iyi foto iragaragaza ahantu handitse urumuri Kandi hari ibendera ry'u rwanda hariho n'umukobwa uri guseka wishimye wambaye ibikomo ku maboko.

Uyu muntu biragaragara ko yishimye cyane ari guseka afite udukapu mu ntoki hejuru ye hari ishakoshi hari n'ahandi hari radiyo.

Iri ni isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye; imyembe, amatunda, indimu, amacunga, amapapayi ariko hari kugaragaramo umuntu umwe.

Aha biragaragara ko ari mu isoko harimo abantu benshi ariko bacuruza ibiribwa babishyize hasi harimo inyanya, karoti intoryi...

Aha harikugaragara ko ari mu isoko abantu bacuruza ibiribwa bamwe bashyize ku meza, abandi badanditse ku ruhande ku mifuka. Inyanya bacuruza, amashu, karoti.

Aha ni munzu hakorerwamo ubucuruzi bw'imyenda hari imyenda imanitse hejuru imipira y'amaboko maremare ifite ingofero, hari indi izinze iri mu tubati harimo n'abantu bafite mvirope mu kwaha.

Izi ni imboga z'ubwoko butandukanye. Harimo: shofurere, amashu, karoti, penali, sereri,...

Biro n'umuhanda iparitse mo imodoka biragaragara ko ari akajagari karimo imodoka nini zitwaye ibintu abantu bikoreye imizigo abamotari.

Aha ni mu nzu hakorerwamo ubucuruzi bw'inkweto. Harimo abantu bari guhaha, abandi urabona ko bari kuganira baseka.

Uyu ni umutaka wa emutiyeni, munsi y'umutaka wa emutiyeni harimo abantu benshi abagabo, abagore hari abafite amakaye mu ntoki, hari n'undi wifashe mu mutwe.

Iyi n'inzu ikorerwamo ubucuruzi bwa mtn, urabonako harimo abantu batatu, umwe aricaye, babiri barahagaze. Umugabo ari guhereza undi mwana agaseke, agakoramo.

Amafaranga aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi wayifashisha ushaka ibyo kurya, ibyo kwambara, ugurira abanyeshuri ibikoresho, bishyura amafaranga y'ishuri, leta iyifashisha yubaka ibikorwa remezo.

Iyi n'inzu ikorerwamo serivisi za eyateri harimo abantu bicaye hari n'abahagaze bari kuvuga ibibazo bafite kugira ngo babafashe bikemuke.

Izi ni inyuguti zifashishwa bari kwandika yaba amagambo cyangwa imibare ziri kugaragara pi wa e ara ti ya u.

Uyu ni umutaka wa emutiyene, abantu bicaramo bari gucuruza amayinite, karimo abantu batatu bacuruza hari n'undi wa kane bahagaze uri gukanda muri terefone.

Iri ni isoko ryubakiye rikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byose udufuka, ikaroti, intoryi hari n'ahashushanyije icyapa cya Emutiyeni.

Aha hari kugaragaraho abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo yambaye ingofero yanditseho momo, yambaye n'umupira w'umuhondo ufite ibara ry'ubururu.

Uyu numuhanda wa kaburimbo harimo abamotari babiri buri mumotari ahetse umugenzi imbere yabo hari umuntu uri gutunguka umwe ari kuzamuka ajya munzu hirya harimo ibiti.

Uru ni urupapuro ruriho abayobozi b'abagore hakaba buri wese hagiye hariho amazina ye n'ibyo akora urabona ko hari abishimye.

Iki cyapa kiri kugaragaza nk'aho kiri kwamamaza handitseho kugura no kugu muri kigali bigakorerwa ku mbugankoranyambaga.

Icyapa bigaragara ko uyu muntu ari guseka ni umu mama afite imisatsi myinshi yambaye rinete yashyize akaboko ku munwa na telefone mu ntoki bigaragara ko ayi rangariyemo.

Iyi ni imodoka mu imbere harimo umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'ubururu afite agakarito mu ntoki kanditseho isoko rigari.

Uyu n'umuntu ufite telefone m'intoki biragaragara ko ari gufotora, imbere ye hari inzu inzu iriho urugi rufite ibara ry'umuhondo.

Iyi n'inzu y'ubatswe n'amakaro bigaragara ko ishobora kuba inzu y'imyidagaduro, hakaba handitseho ko ari sale y'i Kibagabaga i Kigali. Hariho nimero rimwe gatatu bitanu.

Iyi foto iragaragaza inzu ifite urugi rw'icyuma ikagira amaesikariye ikaba ifite amatara hanze ifite n'igiti.

Icyapa gitoya kiri ku nyubako ndende ya etage cyandikishijeho amagambo y'umutuku n'umukara ni ahakorerwa ivunjisha ry'amafaranga abagabo bari gutambuka imbere y'inyubako hirya gato umutaka w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni igiti kirekire kiri imbere y'izo nyubako.

Iyi foto iragaragaza inzu isakaje amabati atukura, iyi nzu ikaba isize amarangi hasi ku ruhande ku nzu hateretse vaze zirimo indabyo.

Iyi ni inzu mo imbere mu nzu harimo televiziyo iri kwaka, harimo n'intebe z'umusego harimo n'ameza ndetse z'imisego wakwicara ukanegama.

Iki ni icyumba kirimo tuwarete iyi tuwarete nizazindi zo kwicaraho upfundura ukicaraho.

Iyi ni inzu nziza nini isakaje amabati agezweho atukura ifite n'igipangu cyubakishijeje imunyu hejuru basojejeho sima akaba ari iyo Kabeza.

Iyi ni inzu yubatse neza ubona ko ari iyo gukuramo hasi mo imbere harimo amakaro, kuhera hasi kugeza mo hagati, hari imiryango inzugi zirafunguye kasike ku gikuta hejuru.

iyi ninzu yo guturwamo yubatse neza ifite inzugi zibirahure zisizeho irangi ryumweru inyuma kuriyi nzu hariho itara.

Aha hari kugaragara inzu yubatse, inyuma yayo hubatseho urukarabiro ruriho na robine. Urukarabiro rufite aho gukarabira habiri.

Indabyo ziragaragara ziri mu mavaze y'umukara imbere yaho hari inzu yubatse neza iyo nzu iragazagara ko ari inzu yo guturwamo isakaje amabati afite amarangi ya rujeborodo.

Iyi nzu biragaragara ko ikorerwamo ubucuruzi, harimo abakobwa babiri bambaye udupfukamunwa, hari n'utubati turimo amandazi, amakeke

Iyi foto iragaragaza inyubako, bigaragara ko iyi nyubako ikorerwamo ubucuruzi kandi iyi nyubako ikaba ari iya etaje.

Iyi foto iragaragaza inyubako ya etaje hasi hari imodoka y'umweru, iy'umukara muri etaje ya kabiri harimo umuntu wegamye ku cyuma hirya ye hari ibipupe byambaye imyenda.

Iyi ni inzu ya etaje igeretse gatatu ,urabona ko ari inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, hari n'ahagiye hari ibyapa by'imyenda bacuruza n'amazina yaho.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi harimo inyanya, ibitunguru, kokombure, harimo n'umuntu ufite amvirope mu ntoki ari kureba ibyo ashaka.

Mu kibuga cyigishirizwamo gutwara amapikipiki, umupolisi umwe azamuye ikiganza yereka mugenzi we uri hakurya. Hari utwaye ipikipiki uri kurebana n'uyu mupolisi.

Aha hari kugaragara amagambo yanditse ejo heza ubwizigame bw'igihe kirekire. Mu gihe ugifite imbaraga zo gukora zigamera izabukuru muri ejo heza.

Aha hari kugaragara umukobwa wicaye ku ntebe ibajwe mu giti, afite udukarita tubiri ari kutwerekana twanditseho "RSSB".

Iyi ni inzu irimo abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze, abicaye hari abafite impapuro bari gusoma abandi batangara.

Aba ni abamama babiri ,umwe afite agasatsi gake undi afite mwinshi bambaye imyenda y'umukara bafite icyapa cyanditseho umunyamuryango ku isonga.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye muri iyo nzu mo hasi harimo amakaro y'umweru, hakaba harimo n'akabati gatenzemo ibicuruzwa.

Aha hari kugaragara ari mu nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo ibintu byishi amafi, imigati, hari n'abantu bari guhaha abandi bari gufasha abari guhaha.

Aha hari kugaragara ko ari mu isoko abantu bahara ariko akaba ari isoko ryubakiye harimo abantu batandukanye.

Iyi ni inzu yubatse, biragaragara ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo ubucuruzi bw'imyenda, ubucuruzi bw'amabiswi, hari n'ahagiye handitseho, ibyapa bivuga ko ibiciro babihananuye, bagashyiraho n'ibiciro, magana atatu mirongo icyenda na gatandatu.

Aha ni munzu hakorerwamo ubucuruzi butandukanye. Hari ahari ibirayi, umucuruzi ahagaze imbere yabyo, hari abandi bantu bari kugendagendamo, harimo na pubeli.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi. Muri iyi nzu harimo akayira hirya no hino hagiye hatinzemo utubati turimo ibicuruzwa : amavuta, imiti, amasabune, amakorogati.

Iyi nzu biragaragara ko ari inzu ikorerwamo, ubucuruzi harimo umuntu ufite akantu ari gucunga uri kugenda ahaha ibyo ashaka no hasi mu nzu harimo amakaro y'umweru.

Iyi ni inzu irimo amakaro hatereretsemo utubati bacururizamo, hagiye hapanzemo udushashi tugiye turimo ibintu bacuruza bitandukanye.

Iyi foto iragaragaza ahantu bacuruzwa hari abantu bari guhaha hari aho ubu abantu bishimye aho umuntu afite ibyagiye kwa mu ntoki hari naho umuntu atishimye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo: amakorogarate, amavuta, amasabune y'amazi, harimo n'abantu ubona ko bari guhaha.

Iyi nzu biragaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ibintu by'amabiswi, amavinegere, harimo n'umuntu uri guhaha ashyira mu gakapu.